Abantu bahinga imbuto n'imboga baravunika cyane, barazifuhira, bambara amasarubeti, bambara n'udupfukamunwa n'ibintu byinshi cyane, baheka amapombo arabaravuna cy...

Inyanya ziba nziza cyane, zigira akamaro kanini cyane cyane ku bantu, abantu bazihinga zirabavuna, barazifumbira bazitera umuti n'ibindi byinshi cyane bazikorera bivunanye pe!

Tugira amoko menshi cyane y'ibintu bikomoka mu mazi, amafi, isambaza, amafi agira ubwoko bwinshi habamo inshonzi, tamusenye, n'andi moko menshi cyane.

Tugira ibintu byinshi cyane bituruka mu mazi habamo:amafi, isambaza, indagara ,amahera n'ibindi byinshi cyane bigira akamaro kanini cyane yubaka umubiri wacu.

Amafi agira akamaro kanini cyane mu buzima bwacu ,turayateka ,hari abayateka yumutse, n'abayateka arimo isosi tukayarisha ubugari cyangwa se umuceri ,ava mu biyaga n'imigezi ,abantu benshi barayakunda.

Tugira ibintu byinshi cyane biva mu mazi, nk'isambaza ziraryoha cyane, dukoramo isosi, tuyirisha ubugari cyangwa umuceri tukumva turishimye cyane, baranazikawusha bagapfa kuzirya.

Amafi agira akamaro kanini cyane mu buzima bwa muntu. Yubaka umubiri araryoha. Tuyakoramo isosi , tukayakawusha, tukayumutsa, takayarya n'ibindi byinshi cyane adukorera.

Tugira ibintu byinshi cyane， biba mu mazi，nk'amafi araryoha，turateka，ahantu haba habaye ubukwe， cyangwa mu rugo iwacu akaturyohera cyane， ava mu mazi， mu migezi cyangwa se ibiyaga，n'ibindi byinshi cyane.

Tugira amafi meza cyane aturukaga mu kivu, arimo amoko menshi cyane, harimo: tomusoni, inshonzi n'izindi nyinshi cyane, baraziteka, zikaryoha, zikavamo n'isosi turisha ubugari cyangwa imiceri.

Amafi aba meza，agira akamaro kanini cyane， akomoka mu biyaga n'imigezi tugira hano mu Rwanda，no hanze y'u Rwanda abayo， agira isosi nziza cyane iryoha.

Amafi agira akamaro kanini cyane, araryoha turayateka tugakoramo isosi, ubundi tukayotsa ahantu haba amahoteri usanga ariyo yibereyemo gusa. Abantu barayakunda aturuka mu biyaga n'imigezi, tukakayarisha n'ubugari cyangwa umuceri.

Abahinzi bahinga ibintu byinshi biba bitandukanye bahinga za karoti. Mama wanjye ava gutashya araza akabagara za karoti areba ko zimeze neza.

Tugira amoko menshi cyane y'ibihingwa bitandukanye， urugero rw'igihingwa kimwe， harimo nk'ibitoki. Ibitoki bigira akamaro kanini cyane， hari ibitoki turya， hari ibitoki dukama， tukenga tugakuramo inzoga.

Abantu bajya barahinga avoka bahingaga ibitoki, bahinga ibigori, n'ibindi biriyaga byinshi cyane, abantu bakenera murubu buzima bwacu tuba tubayemo.

Tugira ubwoko bwinshi cyane bw'ibihingwa habamo: amasembi ibidodoki, ibitoki, bigirakamaro kanini cyane. Hari ibyo duteka, n'ibyo dukamaga n'inzoga tukazijyana mu mu bantu bagera aha.

Duhinga ibihingwa by'amoko menshi habamo ibigori bigira akamaro kanini cyane turyamo umutsima ,tunywamo igikoma, turabiteka ari bibisi ,turanabyotsa.

Inkarishya ni nziza cyane, zigira akamaro kanini cyane mu buzima bwa muntu. Abantu barazirya, bazivanga n'ibishyimbo bakazigerekaho. Zivura ikirungurira.

Tugira ibihingwa byinshi cyane bitandukanye, by'umwihariko duhinga ibireti, bifite akamaro kanini cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, by'umwihariko bihingwa mu majyaruguru y'igihugu cyacu.

Duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'ibirayi cyane bikunda kuba mu Majyaguru y'Igihugu cyacu mu kinigi. Ibirayi bya kinigi bigira akamaro kanini cyane, biraryoha, bigira amafufu mo imbere, ni byiza cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane bibaga bitandukanye, n'ibyo twohereza mu mahanga, n'ibyo dukuramo amafaranga, harimo n'ibitoki birera cyane, turabiteka, ibindi tubitaramo inzoga, n'ibindi byinshi cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'ibigori birera cyane, tubiryamo umutsima, tubinywamo igikoma tubitekamo amahundo, tubiteka ari bibisi, turabyotsa tubiryagamo n'injugu.

Tugira ubwoko bwinshi bw'ibihingwa biba bitandukanye, habamo ibidodoki. Biraryoha cyane. Tubivanga n'ibishyimbo, tubirisha ibijumba umutsima, umuceri.

Tugira insina mu rutoki rwacu zirera cyane cyane, ibitoki bimwe turabitara tugahamo inzoga ibindi turabiteka, bituma tugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibigori, amateke, n'ibirayi, ibirayi bigira akamaro kanini cyane, turabiteka, tubigereka ku bishyimbo n'ibinyamafufu bitera imbaraga.

Mu bihingwa duhinga， habamo ibitoki bya kamara. Bigira akamaro kanini cyane， tuzigurira abana， ziraryoha cyane， abantu bakuru nabo barazikunda，uretse ko zihenda.

duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'ibijumba, ibirayi, ibishyimbo dukora n'amaterasi kugira tuzajye tweza neza, ababyeyi barahinga bakonsa abana benshi ariko bakabona amafaranga.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, n'amateke atera imbaraga tuyagereka ku bishyimbo . Agira ubwoko bwinshi cyane, nk'amanyarwanda, amabungubungu, amayuni, amabwayisi.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye. Nk'imboga z'amashu zirinda indwara, turaziteka ziraryoha cyane, tuzijyana ku isoko tugakuramo amafaranga. Ibishishwa by'inyuma, tubigaburira inkwavu ni ubwatsi.

Tugiraga ubwoko bwinshi bw'ibihingwa, habagamo amasaka gavagamo urubetezi bashyiraga mu nzoga, gavagamo igikoma, gavagamo umutsima, gavagamo ibintu byinshi, bigiye bitandukanye.

Ibishyimbo bibamo amoko menshi hari ibyo turymo imiteja ibyo turyamo intonore ibyo dusarura tukazabitwerera abantu b'inshuti zacu bagiraze ubukwe tukanabiteka byumye n'ibindi tukabigira imbuto.

Duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibishyimbo by'imishingirizo, birera cyane dusoromaho umushogoro, uba imboga nziza cyane ziryoshye ,duteka, tudibura ,tugereka ku bishyimbo.

Mu bihingwa duhinga habamo byinshi cyane biba bitandukanye, nk'inyanya zigira akamaro kanini cyane, dukoramo isosi, tuzishyira mu biryo birushaho gusa neza, tukabirya biryoshye, byongera n'uburyohe bwinshi cyane, mu biryo tuba tugiye kurya.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'imbuto zirinda indwara, amaronji ya manderena araryoha cyane, abantu barayakunda, arinda indwara, abongerera ibiro, n'ibindi byinshi cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibigori. Bivamo ibintu, byinshi cyane, babikoramo injugu, ziraryoha cyane, abana barazikunda, ziba zinahendutse, iz'ijana urazirya ukumva urahaze.

Tugira imbuto nyinshi cyane ziba zitandukanye zirinda indwara. Nk'amapera ni meza cyane araryoha, abana barayakunda abarinda indwara. Ngo aranabaryohera cyane ni yo mpamvu bayakunda.

Abantu bahinga bagira akamaro kanini cyane cyane mu gihugu cyacu batanga akazi ku bantu batakagira bakajya gucuruza ibihingwaga baba bahinze bejeje.

Ibigori ni byiza cyane bigira amafu meza cyane menshi dutekamo igikoma, dutekamo umutsima bimwe tubitekamo impungure, ibindi turabyotsa ibindi tukabiteka.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'ibirayi, birera cyane cyane mu Majyaruguru y'igihugu cyacu, biraryoha n'ibinyamafufu, bitera imbaraga ni byiza cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane habamo ibyo tugaburira ingurube zacu tuzigaburira ibijumba, ibishyimbo, ibirayi, ibigori. Tuzitekera igikoma n'ibindi byinshi cyane.

Tugira ibiribwa byinshi cyane biba bitandukanye, n'imbuto z'amoko menshi nk'imyembe iturinda indwara iraryoha cyane, abana barayikunda zibongera ibiro zirera cyane cyane ahantu mu mijyi.

Duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye. Ibyatsi ihene zirya, urubingo abantu bararuhinga cyane kubera ko amatungo yacu arukenera, urwiri rurimeza rwo ntabwo baruhinga.

Duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibirayi birera cyane ahantu mu misozi, cyane ahantu haba ubutaka burebure bikunda kwera mu majyaruguru y'igihugu cyacu ,mu karere ka Musanze.

Tugira imbuto nyinshi cyane ziba zitandukanye nk'amapera agira amoko abiri, hari aya kizungu aba asa umweru mo imbere, n'aya kinyarwanda aba asa umutuku mo imbere, abana baraduyakunda, aturinda indwara, n'ibindi byinshi cyane.

Tugira ubwoko bwinshi cyane bw'ibihingwa buba bitandukanye, nk'ibigori bitera imbaraga turabyotsa tubirya ari bibisi, tubirya bihiye tubigereka ku bishyimbo tukabiryamo amahundo, tubibeteshamo igikoma umutsima n'ibindi byinshi cyane.

Tugiraga ibihingwa byinshi cyane, biba bitandukanye; nk'inanasi zigira akamaro kanini cyane, dukoramo umutobe, turazirya, ziturinda indwara, zituvura umunyu bita kirimi, urayirya yagera kuri cya gisebe agahita akira neza cyane.

Duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'imyumbati , hari iba imiribwa na mporugoma. Turayiteka, tuyigeretse ku bishyimbo. Hari n'iyo bita imitamisi turayinika , tukayanika , tukayisekura , cyangwa tukajya kuyibetesha tugakuramo umutsima bita ubugari.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibirayi turabyuhira, turabibagara, tubitera umuti, turabisarura umusaruro mwinshi cyane, biraryoha, ibirayi bya Kinigi bikunda kwera mu majyaruguru y'Igihugu cyacu, mu murenge wa Kinigi mu Karere ka Musanze.

Abantu bahinga barabahugura, babagira inama y'ukuntu bazajya bahinga neza, kugira ngo bazajye batugaburira tugire ubuzima bwiza, buzira umuze.

Mu bihingwa duhinga habamo imboga z'amashu ,zigira akamaro kanini cyane ,ziturinda indwara ,zivaho ubwatsi bw'inkwavu, ziduha amafaranga tuzijyana mu isoko tukazicuruza.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye inyanya ,tungurusumu, intoryi, karoti, isombe, ibigori, ibitunguru n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Duhingaga imyumbati cyane cyane, zikunda kuba mu butaka bw'inkombe, bwa butaka bukomeye cyangwa u bw'agasenyi zirera cyane, imyumbati zivamo umutsima w'ubugari tukanazirya ari bibisi.

Tugiraga ubwoko bwinshi cyane bw'ibihingwa biba bitandukanye, nk'imboga. Zirinda indwara, ziraryoha cyane, baraziteka bazivanga n'ibishyimbo, imboga z'amashu ni nziza cyane, ziraryoha pe! Ziduha n'amafaranga menshi cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane yabaga bitandukanye nk'ibigori, bitugirira akamaro kanini cyane, turabyanika, turabitonoza, bivamo Kawunga, turabishesha tukanywamo igikoma, turanabirya, tubiteka ari amahundo, tukabigereka ku bishyimbo.

Igihaza kiba cyiza， iyo bajyaga kugiteka，，bakigerekaga ku bishyimbo， kigashya kikabirirwa， umuntu yagikuragaho agiye kukirya. akumva kiraryoshye cyane.

Mu muco nyarwanda，tugira ubwoko bwinshi bw'ibitoki. Hari ibyo duteka，turya，hari ibyo dukama， dukuramo inzoga tunywa.

Ibihingwa duhinga bigira akamaro kanini cyane, nk' intoryi zibamo amoko menshi cyane hari iz'umweru, hari iz'icyatsi zirinda indwara ni nziza cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane twohereza mu mahanga nk'icyayi, kigira akamaro kanini cyane kivamo icyayi tunywa, turisha umugati iyo ari mu gitondo, turagisoroma, tukijyana ku ruganda bacyohereza hanze.

Mu bihingwa duhinga dukenera ifumbire, riva ku matungo aba atandukanye, nk'inkoko zigira ifumbire, ryiza cyane bita amatotwe, rireza rirafumbira neza, abantu bararikunda.

Habaho ibihingwa biba bitandukanye nk'urutoki. Byeraho ibitoki by'intuntu, bigira umutobe mwinshi mwiza, uvamo inzoga nyinshi, bitubura ibindi bitoki tuba dukama.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibijumba ni ibinyamafufu bitera imbaraga, birera cyane mu karere ka Gakenke, hari ibyo dukoramo biswi, ibindi tubikoramo amandazi, ubundi tukabigereka ku bishyimbo tukabirya.

Duhinga ibihingwa byinshi bigiye bitandukanya, nk'amateke abamo amoko menshi: amanyarwanda, amabungubungu, amayoni, amabyayisi, araryoha cyane tuyagereka ku bishyimbo, abababi tuyaha amatungo yacu ayavura teniya.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibijumba bitera imbaraga biraryoha cyane, byera ahantu haba ubutaka burebure, ariko tugira imigozi myinshi cyane iba dutandukanye byeraho, imigozi ya tura, iya kamamanzi, iya wadada n'iyindi myinshi cyane.

Ibitunguru bigira akamaro kanini cyane mu buzima bw'umuntu, barabiteka, babikekera mu biryo, barabikaranga.

Tugiraga imbuto z'immyembe, imyembe iba myiza cyane turazitara twaragiza tukazirya, zigiraga akamaro kanini cyane cyane, kubana batoya barazirya zikabatera imbaraga.

Amateke aba mu bihingwa ngandurarugo. Atera imbaraga iyo bagiye kuyateka bayagereka ku bishyimbo. Mu muco nyarwanda bayarurira ku nkoko barambuyeho urukoma, akaba ariho bayarira.

Mu buhinzi bwacu bwa buri munsi duhinga imbuto z'amoko menshi by'umwihariko nk'inanasi. Inanasi zigira akamaro kanini cyane ku buzima bw'umuntu inanasi ni igihingwa cyiza cyane.

Tugira ubwoko bwinshi bw'imbuto duhinga harimo nk'amapera, amacunga, indimu, inyanya, pome ,manderena, n'ibindi byinshi cyane.

Duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'imboga intoryi, karoti, ibishyimbo, ibirayi, ibijumba, isombe nbindi byinshi cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye. Nk'intoryi ni ubwoko bw'imboga zirinda indwara, tuzivanga n'ibishyimbo, tuzikoramo agasosi tukakarisha ubugari cyangwa umuceri kakaryoha cyane!

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye byoherezwa mu mahanga, nk'icyayi kigira akamaro kanini cyane, turagihinga, tucyoherezaga mu mahanga bagakuramo icyayi tunywa, turisha umugati mu gitondo, kidufasha gususuruka mu mubiri wacu.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye hari ibihingwa ngandurarugo n'ibyo bohereza mu mahanga. Tugira n'ubworozi bwinshi cyane n'aborora inka amatungo menshi cyane turayabaga tukaryamo inyama, inyama ni nziza cyane turaziteka tukazitekesha amavuta twarangiza tugashyiramo n'inyanya tukabirya, turisha umuceri biraryoha cyane.

Zigira amoko menshi cyane y'imbuto. Urugero nk'ibinyomoro bigira akamaro kanini cyane cyane ku bana bibongerera amaraso , n'abantu bakuru bibongerera amaraso.

Tugira ibihigwa byinshi cyane biba bitandukanye imyumbati, igira akamaro kanini cyane itera imbaraga ni ikinyamafufu cyerera mu butaka, kigira n'isombe turya hejuru.

Mu bihingwa duhinga habamo ibintu byinshi cyane biba bitandukanye ,nk'ibigori bya Mayizori bigira akamaro kanini cyane bakoramo patejone, batekamo igikoma kiza cyane kiba kiryoshye kiba gisa n'umuhondo.

Tugira ubwoko bwinshi cyane bw'ibihingwa duhinga, habamo ibigori tubica ari bibisi tukabyotsa, turanabiteka, iyo bimaze kuma turabibetesha tugakuramo umutsima, cyangwa igikoma, bitunozamo na kawunga.

Mu bihingwa tugira biba bitandukanye habamo nk'ibireti, ni igihingwa twohereza mu bihugu byo hanze, baragenda bakagitunganya bagakuramo ibindi byinshi cyane bakoresha biba bitandukanye. Ibireti ni byiza cyane biba mu majyaruguru y'igihugu cyacu.

Duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye nk' imyumbati yera cyane ahantu haba ubutaka burebure nko mu nombe, hari izo turyamo umutsima, hari iyo tugereka ku bishyimbo tukayiteka tukayirya.

Habaho ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, tugira n'aho tugemeka ingemwe zacu bita pipiniyeri, habamo imbuto z'amatunda, iz'ibiti zitandukanye za marakuja n'izindi nyinshi.

Mu bihingwa duhinga habamo imboga nziza cyane zirinda indwara, habamo karoti zigira akamaro kanini cyane, zerera mu butaka barazikura bakazivanga n'ibishyimbo. Ziraryoha, zigira ibiryo neza cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'imboga z'amashu zirinda indwara, ziraryoha cyane tuziteka tuzivanze n'ibishyimbo cyangwa tukaziteka zonyine ari ifiriti. Zigira n'ibishishwa byazo by'inyuma tubigaburira inkwavu zacu.

Mu bihingwa duhinga habamo ibintu byinshi biba bitandukanye. nk’ibitoki bigira amoko menshi， hari ibyo bita fiya， birakura cyane，bikagera hasi，umukanana wabyo，bawucukurira icyobo， kubera ko biba byarakuze， byarageze hasi ku butaka.

Abantu bahinga badufasha ibintu byinshi cyane baduha akazi, ku isoko turacuruza baduha ibintu tukarya mbese usanga nta kibazo tugira kubera abantu bahinga.

Abantu bahinga mu gishanga, iyo bageze mu gihe cy'izuba ryinshi. Bajya gufuhira ibihingwa byabo. Urugero nk'ibirayi, imboga z'amashu ,urusenda n'intoryi,....

Duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye， n'imboga z’amashu zigira akamaro kanini cyane，ziturinda indwara， turazirya， tuzivanga n'ibishyimbo， abantu barazibagarira，turaziguhisha， tukabona amafaranga menshi.

Mu muco nyarwanda habamo abajyanama b'ubuhinzi, baba barabimenyereye bahugura abandi bagenzi babo, ibijyanye n'ubuhinzi, urugero bakabigisha buryo ki bagomba guhinga.

Tugiraga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibigori bitera imbaraga birabyohaha cyane, turabyotsa, mu masoko tukabicuruza tugakuramo amafaranga menshi cyane, tukayifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu bihingwa duhinga, habamo ibinyamafufu nk'ibijumba. Bitera imbaraga, biraryoha cyane. Dukunda kubyeza cyane mu Karere ka Gakenke mu Majyaruguru y'igihugu cyacu. Hari n'ibijumba bakoramo biswi cangwa se amandazi.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye habamo: imyumbati ,igira akamaro kanini cyane habamo: iyi imitaminsi turayinika tukayibetesha ikavamo ubugari tugira n'iyitwa imiribwa, n'iyitwa Mporogoma yo tuyigereka ku bishyimbo tukayiteka.

Ubuhinzi bugira akamaro kanini cyane, hari abahinga indimu ziba ari umuti, imiteja intoryi, pwavuro n'izindi mbuto nyinshi ziba...

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'isombe. Iraryoha cyane turayiteka tukayishyiramo ibirungo cyane cyane ku bagore baba barabyaye ibaha amashereka n'abana barayikunda.

Ikawa zigira akamaro kanini cyane, bazijana mu ruganda bakoramo ikinyobwa cy'ikawa, kiruhura mu mutwe, gituma umuntu atekereza neza, bigatuma abantu bose bakingwa bakaruhuka ubwenge bwabo busubira ku murongo.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, n'ibitoki byo guteka, n'ibyo dukamamo inzoga, ibirayi ibishyimbo ibigori n'ibindi byinshi cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye . Nk'ibigori dukuramo imitsima ya kawunga, imiceri n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye. Turya imitsima ,tunywamo igikoma n'indi bigiye ....

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, ibirayi ni ibinyamafufu bitera imbaraga, biraryoha cyane hari ababiteka babitogosheje abandi babiteka babigeretse ku bishyimbo, ibirayi byitwa kinigi byera mu Majyaruguru y'Igihugu cyacu mu Karere ka Musanze Umurenge wa k Kinigi.

Tugiraga ubwoko bwinshi bw'ibihingwa duhinga urugero imboga z'amashu imboga z'amashu zigiraga akamaro kanini cyane, mu buzima bw'umuntu ko kurinda indwara n'ibindi byinshi cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye duhinga, nk'ibijumba, bitera imbaraga, biraryoha cyane, bigiramo amoko menshi, hari ibyo dukoramo biswi, ibindi tugakoramo amandazi, n'ibindi byinshi cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'ibirayi ni ibinyamafufu, bitera imbaraga, biraryoha cyane. Tubiteka tubigeretse, tubiteka intogose, tukabivanga n'ibishyimbo tukabitekamo n'ifiriti n'ibindi byinshi cyane.

Duhinga imbuto nyinshi cyane zibaga zitandukanye, nk'ibigori bigira akamaro kanini cyane, turabyeza, tukabyanika, tukabihanika, kugira ngo bitazamugwa turabyuhira, tugakuramo izindi mbuto tuzahinga, ibindi turabigurisha, tugakuramo amafaranga.

Abantu bahinga imbuto bagira amafaranga menshi cyane kubera ko bazijyana ku isoko, barazigura cyane kubera ko zibamo intungamubiri.

Tugira imbuto nyinshi cyane duhinga ziba zitandukanye, nk'ibigori bigira amoko menshi hari ibigira amabara menshi, bigira igikoma kiryoshye n'umutsima, mbese urebye biraryoha cyane tubitekamo n'amahundo.

Tugira ibihingwa byinshi cyane, biba bitandukanye nk'imbuto y'ibishyimbo, byubaka umubiri wacu, biraryoha cyane tubiryamo umushogoro, tubiryamo imiteja, tubiryamo intonore, ibindi turabisarura byumye, tukabika n'imbuto tuzahinga ikindi gihe.

Tugira imbuto nyinshi cyane ziba zitandukanye, nk'ubunyobwa bwerera mu butaka, buraryoha cyane, ni ikinyamisogwe, bwubaka umubiri wacu, budufasha gukora isosi nziza cyane, iryoshye, tubushyira mu gitoki, n'ibindi biryo byinshi duteka.

Duhinga imbuto nyinshi cyane ziba zitandukanye, nk'amashaza ni ikinyamisongwe cyubaka umubiri wacu, araryoha cyane tuyagerekagaho igitoki cyangwa se ibirayi tukanayateka yonyine turanayanika akuma, tukayabetesha tukazayanika tukayateka yumye.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, habamo nk'ibishyimbo, bigira akamaro kanini cyane, turabitera turyamo agahashogoro, turya intonore, turya imiteja, turabisarura tugakuramo imbuto.

Habaho ubwoko bwinshi bw'ibihingwa, Nk'ibishyimbo ni ibinyamisogi byubaka umubiri wacu, bidufasha kubona amafaranga. Iyo tubijyanye ku isoko, bitugirira akandi kamaro kenshi.

Duhinga imbuto nyinshi cyane ziba zitandukanye, nk'ubunyobwa ni ikinyamisogwe cyubaka umubiri wacu kiraryoha cyane, tugikoresha isosi, tugishira mu gitoki, n'ibindi byinshi cyane.

Mu bihingwa duhinga habamo byinshi cyane biba bitandukahye, nka soya zigiraga akamaro kanini cyane. Ni ibinyamisogwe, zubaka umubiri wacu, tukazibetesha tugashigishamo igikoma. Turazikaranga tugakoramo tofu n'ibindi byinshi cyane.

Tugira imbuto nyinshi cyane ziba zitandukanye. duhinga nk'amasaka, agira akamaro kanini cyane. Arera cyane bakayagurisha, bakuramo amafaranga tubeteshamo igikoma, tukayaryamo n'umutsima. Tukayabeteza n'inzoga, tukayengamo n'umusururu.

Abahinzi bahinga ibishyimbo, iyo bagiye kubisarura ,bajyana n'amagare akabibapakirira ,akabibagereza iwabo . Ntabwo bavunika babyikorera.

Tugira ibihingwa byinshi cyane, biba bitandukanye nk'ibinyamisogwe byubaka umubiri wacu, ubunyobwa bugira akamaro kanini cyane tubushyira mu biryo, tubukoramo isosi iryoshya ibiryo cyane.

Tugira imbuto nyinshi cyane, ziba zitandukanye duhinga, nk'ibishyimbo ni ibinyamisogwe, byubaka umubiri wacu, turabiteka bituma turya ibindi biryo bitandukanye, ntabwo warya ibiryo bitagira ibishyimbo, tugerekaho n'ibujumba n'imyumbati, n'ibindi byinshi cyane.

Ibigori biba byiza cyane hari ibyo tubetesha tunywamo igikoma, hari n'ibindi turyamo umutsima ibindi tubirya ari bibisi, turabyotsa ibindi tubirya twabitetse.

Tugira imbuto nyinshi cyane duhinga, ziba zitandukanye nk'ibigombe, amasaka, ibirayi iyo tubyejeje tubipatiza imodoka zikabituzanira mu masoko yacu, bakaduha amafaranga tukagakemuza ibindi bibazo tuba dufite mu rugo.

Duhinga imbuto nyinshi cyane ziba zitandukanye, nk'igihwagari kiraryoha tugikoraramo isosi tunywa, bigatuma tugira ubuzima bwiza cyane, tugihinga nko mu bishyimba twagihutse kera nyuma y'ibishyimbo.

Tugira imbuto nyinshi cyane duhinga habamo nk'ibishyimbo bigira akamaro kanini cyane ni ibinyamisogwe, byubaka umubiri wacu tubiryamo imiteja tubiryamo intonore , tukanabisarura iyo byumye.

Tugira amazu menshi cyane mu midugudu duhunikamo imyaka yacu tweza ,nk'ibigori tubihunikamo kugira ngo tuzabigurishe byuriye ku isoko byagize amafaranga menshi, cyangwa tugakuramo n'imbuto, tukaryamo umutsima, tukanywamo n'igikoma.

Tubikaga imbuto nyinshi cyane ziba zitandukanye n'ibigori turabihinga tukabyuhira, barangiza tukabica ari bibisi, tukabyotsa, indi turabyanika bikuma tukabibeteshamo igikoma cyangwa se imitsima, tubitunozamo na kawunga.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibishyimbo, soya, ibigori, umuceri, ibihwagari n'ibindi byinshi cyane. Turabikenera, bivamo amafu meza cyane y'imvange, agira akamaro kanini cyane ku bana bakiri batoya.

Mu bihingwa duhinga habamo nk'imbuto z'ibigori zigira akamaro kanini cyane, turabihinga, turabirya, tunywamo igikoma ,tubirya ari bibisi, turabyotsa, turabiteka ari bibisi n'ibindi byinshi cyane n'amahundo turayateka.

Tugira imbuto nyinshi cyane duhinga ziba zitandukanye, nk'ingano, amasaka, amashaza, ibishyimbo, ibigori, ibyo ngibyo dukuramo amafu duteka mo igikoma, na yo dutekamo umutsima, kandi ifite akamaro kenshi cyane.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye. Habamo; amashaza, ibigori, amasaka, ibishyimbo ,ingano, soya n'ibindi byinshi cyane. Turabibetesha twabivangavanze, havamo igikoma cyiza cyane kiba kiryoshye.

Tugira ubwoko bwinshi bw'ibintu duhinga, mu bintu duhinga habagamo ubunyobwa, bugira akamaro kanini cyane dushyira mu masombe dushyira mu bitoki.

Duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'ibishyimbo tubiryamo imiteja, intonore ,turabisarura tukazabitwerera ahantu bakoresha ubukwe, tubigira n'imbuto tukazongera kubihinga ikindi gihe.

Tugira ibihingwa byinshi cyane duhinga: Habamo nk'ubunyobwa butuma duteka neza ibiryo biba bifite agasosi, tubushyira mu gitoki no mu bindi biryo bidafite ibishyimbo. Ubunyobwa busimbura ibishyimbo.

Duhinga ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye. Nk'ibishyimbo bigira amoko menshi cyane. Hari ibyo bita nyiramukara, nyiragisenyi, nyiragikote, kivuzo n'ibindi byinshi cyane. biraryoha turabiteka, tukagerekaho ibindi bintu dushaka kubirisha. Umuntu urya ibiryo nta bishyimbo birimo, nta bwo aba ariye.

Tugira imbuto nyinshi cyane ziba zitandukanye, nk'amashaza ni ikinyamisogwe, yubaka umubiri wacu, araryoha cyane, tuyateka mu gitoki cyangwa se ibirayi, tukayarya, ni meza cyane agira akamaro mu buzima bwacu.

Tugira ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibigori, bitera imbaraga, bigira umusaruro mwinshi, biraryoha turabiteka, turabibetesha tukanywamo igikoma, umutsima tunavugamo kawunga nibindi byinshi cyane.

Tugira imbuto nyinshi cyane duhinga nk'amasaka agira akamaro kanini cyane, arera, tukabeteshamo igikoma, tukaryamo umutsima, twengamo n'umusururu, tugashyira no mu nzoga n'ibindi byinshi cyane.

Tugira imbuto nyinshi cyane. Ziba zitandukanye : nk'ibishimbo, ibigori, amasaka, soya, ingano, uburo n'izindi nyinshi cyane. Amasaka yo turayinika tukazayashigishamo umusururu.

Tugira abaganga benshi cyane batandukanye by'umwihariko abaganga b'amatungo, bagira akamaro kanini cyane, bavura inka, bavura ingurube n'andi matungo menshi cyane atandukanye.

Abavuzi b'amatungo bagira akamaro kanini cyane batuvurira ingurube zacu zigakura neza, bikaba binini cyane, bazitera inshinge ,babishakira n'ibinini bya vitamini zigakura cyane zikaba nini.

Abavuzi b'amatungo bagira akamaro kanini cyane, ingurube zacu barazibyaza, bazitera inshinge, baziha ibinini bya vitaminini bitumaga zikura neza barazoza, batugira inama z'indwara ziba zirwaye.

Abaganga b'amatungo batugirira akamaro kanini cyane. Badupimira amatungo yacu nk'inkoko zitera amagi, iyo inkoko yapfuye bamenya kudupimira, kugira ngo turebe ko amagi ari mazima, tuzayakoreshe neza.

Abaganga batuvurira amatungo yacu bagira akamaro kanini cyane. Badusuzumira inka, amatungo magufi yose badupimira inkoko, amagi bakayapima neza, bakareba uko yaba afite ubuziranenge. Twarangiza tukajya kuyagurisha. Babanza bayapima.

Abavuzi b'amatungo batugirira akamaro kanini cyane. Inka zacu iyo zarwaye inzoka baziha umuti zigakira. Cyangwa iyo zigiye kubyara zikatunanira dutumaho abo bavuzi bakazikora mu kibuno bakazibyaza.

Abantu bavura amatungo bagira akamaro kanini cyane turabakenera buri gihe, batuvurira inka, barazikingira, bazijyana mu gipangu bakazibanguriza.

Mu muco nyarwanda tugira amatungo menshi. Cyane cyane habamo nk'inka zigira amoko menshi. Hari izo bita isine, n'izo bita inyambo, n'izindi nyinshi cyane. Inka zigira akamaro kanini.

Nk'abavuzi b'amatungo bagira akamaro kanini cyane batugira inama z'ukuntu amagi tuzajya tuyajyana ahantu bayatunganya tukadukuramo imishwi. Inkoko ziba zaYateye nk'iyo zapfuye barayadupimira ngo barebe ko twayatekamo umubiriti, bikaba nta ngaruka byatugiraho.

Tugira abavuzi b'amatungo, bagira akamaro kanini cyane batuvurira inka, badutera inshinge, baziha ibinini bya vitamini, badupimira inyama nk'iyo zapfuye zipfishije tukazirya.

Tugira abaganga b'amatungo, kugira ngo inka zacu nizijya zirabura vitamine cyangwa ziranga gukura, bazajye baraza bazitere urushinge rwa vitamine, zikure nkuko bikwiriye.

Tugira abavuzi b'amatungo baba batandukanye bagira imiti myinshi cyane bacuruza, habamo inshinge batera inka, ibinini bya vitamini, imiti bivura inzoka, ivura inkorora, n'iyindi miti myinshi cyane.

Abavuzi b'amatungo ni beza cyane, turabakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, baduterera inka, baziduterera vitamine, bazituvurira iyo zarwaye mbese baradufasha cyane.

Abavuzi b'amatungo bagira akamaro kanini cyane. Batuvurira inkoko ngo barebe ko zagira amagi meza tuzajya turateka, tuzajya turateka mo umureti. Batujyanira amagi ku ikusanyirizo bakazatuzanira...

Abavuzi b'amatungo ni beza cyane, batuvurira inka zacu iyo zarwaye, n'inka zacu zipfushije barabanza bakaza kuzidupimira, ngo barebe ko hari ikibazo zifite, twarangiza tukazibaga.

Abaganga b'amatungo turabakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Batuvurira inkwavu ziba zarwaye uburenge, bazitera urushinge rwa vitamine, bazivura byinshi cyane.

Abavuzi b'amatungo batugirira akamaro kanini cyane, batuvurira amatungo yacu, nk'ingurube bazitera inshinge za vitamini, bakaziha n'ibinini bya vitamini, zikazajya zirarya zigahaga, ibiheri n'ibyatsi biba bitandukanye, n'ibiryo dusigaza.

Tugiraga inyamaswa z'agasozi nyinshi cyane ziba zitandukanye, nk'ifuku. Iratwonera cyane, ahantu baba barahinze ibijumba n'imyumbati, amateke n'ibindi bintu byeraga hasi mu ubutaka.

Inyamaswa y'imbeba ni mbi cyane ku buzima bw'abantu iryaga amaguru y'abantu iryaga imyaka y'abantu yangiriza ibintu byinshi cyane k'ubuzima bwa muntu.

Tugira inyamaswa z'agasozi nyinshi cyane, ziba zitandukanye, nk'inuma ni inyamahoro, ikunda kwibera ahantu hari amahoro, itera amagi turya, turyamo n'inyama, iraguguza cyane, abantu barayikunda.

Inyamaswa z'agasozi zigira amoko menshi cyane aba atandukanye; inuma igiraga akamaro kanini cyane, tuzijyamo inyama, ziterara amagi tukayarya, ntabwo zitwomera imyaka.

Inyamaswa z'agasozi zigira amoko menshi cyane atandukanye n'agacurama kaguruka nijoro, kaba ahantu mu nsina, kagira amaso manini, kagira amaba ameze nk'imitaka, gafite n'akandi kamaro kenshi cyane.

Tugira inyamaswa nyinshi cyane z'agasozi habamo: Samusure ni; inyoni zigira amasunzu, zigira umunwa muremure, zigira amaso manini cyane. Samusure zirona cyane.

Inyamaswa z'agasozi zigira akamaro kanini cyane kaba gatandukanye，harimo inuma，zitera amagi tukayarya， zigira inyama tukazirya， zubaka ibyari，ziraguguza， n'ibindi byinshi cyane.

Tugira ubwoko bwinshi cyane bw'inyamaswa habamo nk'igikeri igikeri ni cyiza cyane kigira akamaro kanini cyane gihagararira ubwoko bw'abega kuva kera kugeza ubungubu kiracyabahagararira.

Tugira inyamaswa nyinshi cyane z'agasozi. Habamo umusambi. Urahiga, ukunda kuba ahantu mu gishanga. Usanga imisambi ari ibiri, nta we ugenda ari umwe, ugira masunzu.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba ari nyinshi cyane zitandukanye:nk'inkende zikunda kurira ibiti zirya amapera, imyembe, amacunga, n'izindi mbuto nyinshi cyane zikunda gufata abakobwa ku ngufu.

Igishwiti k'ikibinda kimanuka ikibingo kibinda ikirizo kirinda ko bwira gishaka aho cyona gisanga abatindi bo kwa nyamutera batonora udutoki dutoto dutanu turenze udutemeri.